Ubu ni uburyo ushobora kuba wakoresha mu mugihe habayeho guhita cyangwa gusohoka kwa gaze, RURA yabishyize ahagaragara kugira ngo ubashe kubyitwaramo neza, mu mugihe habayeho icyo kibazo kandi nawe ubashe kuba wabyikorera ukakikemurira.